Aha biragaragara ko ari akabari, abantu basohokeyemo bari kuganira hacururizwa inzoga zipfundikiye ndetse n'ibindi.

Matera eshanu zifite amabara gatandukanye. Ikigaragara ni uko ahantu ziri, ziri ku isoko ziri kugurishwa.

Abantu bari kunyuranyuranamo, ubona ko bari gukora ingendo zitandukanye, hirya yabo, hari amazu gatandukanye ubona ko gagenewe ubucuruzi.

Aga mazu gubatse neza, ikindi kandi gari ku umuhanda, gakorerwamo ibintu byo gucuruza ibicuruzwa bitandukanye. Abantu bakaza kugahahiramo.

Uko bigaragara iyi nzu yubatse hafi y'umuhanda, ikindi kandi biragaragara ko izi miryango zagenewe ibintu bijyanye n'ubucuruzi.

Amazu gubatse neza, gatatseho amarangi, imbere y'aho hari abantu bari gucuruza ama inite, hari n'abandi baba bari gutunganya imisatsi z'abantu.

Nkuko bigaragara, izi ni impeta nyinshi zambarwaga n'abantu bakoresheje ibirori cyanga se abashaka kwambara imirimbo.

Nk'uko bigaragara aha bari gucuruza ibikoresho bitandukanye :amabasi, ibikombe, amasafuriya, amagare, ano mabase akenshi yifashishwa mu isuku abantu turi kumesa, ni ibikoresho byiza cyane.

Iki kirangantego kiri kutwereka ko iyo ukigezeho kikwereka ko ugeze ahantu bitaga mu kinigi, ariho iwabo w'ibirunga kuko ariho bibaga.

Iyi nzu ifite imiryango ine. Biragaragara cyane ko ibikorerwamo ari ugukora intebe, imyenda, ibikapu, ndetse n'ibindi. Ikindi kandi, iyi nzu yubatse neza.

Igikoni gifite amashyiga meza. Ibintu by'aho biri ku murongo. Uyu muntu aba yahitayeho yahagiriye isuku.

Amakuvureri amatabureti, amasheze ibitanda, ibikapu, imisego amabasi amagare. Mbese kuri iyi nyubako hari ibikoresho bikoreshwa mu mirimo zitandukanye.

Amazu gameze neza gasakaye ku bujyo bugezweho, gafite amadirisha gameze neza, iruhande gw'izo nzu hari n'amamodoka gameze neza kandi aga mazu bagacururizamo.

Iyi nzu iteganye n'umuhanda. Ikindi kandi ndabona hari n'umuntu ukoraga inkweto mu buryo bwo kwiteza imbere.

Nkuko tubibona hano hari:gaze, amagare, amasafuriya ndetse yegeranye n'umuhanda. Gaze zifashishwa mu guteka, zitekaga neza cane iyo ushizeho ibiryo ni mu minota biba bihiye.

Iki cyumba kimeze neza urabona ko giteguye kigaragara ko hari umubyeyi wo kuhitaho hafite isuku hameze neza cyane.

Imyembe, amaronji ameze neza cyane, bamwe barayikoreye, biragaragara ko umuntu wayahinze yayitayeho rwose.

Aha iyo witegereje ubona abantu bari mu bikorwa bigiye bitandukanye. Bamwe bari gucuruza, abandi batwaye ibinyabiziga, abandi bari kuza guhaha, mbese abantu bari mu mirimo itandukanye, iri gukorerwa hano hantu.

Igisima cubakiye kiriho ibihaza kandi aho ibihaza biri harasakaye, ibihaza bimeze neza ubona ko babyitayeho.

Aha ni isoko rya kijambere bacururizamo ibintu byo kwambara, biri kugaragara ko hamanitse imyenda itandukanye, ikindi kandi hari n'abantu bari kujya kugura.

Harubakiye, harasakaye, hari ibihingwa bitandukanye, ibishimbo ndetse n'ibirayi, bigaragara ko abantu bari kuza kugura, abandi bakabagurisha.

Ibitoki babijyanye ku isoko biri kugaragara ko biri kugurishwa. Ikindi kandi ibitoki bimeze neza kuko amabere gabyo gameze neza cane.

Ibitenge ndetse n'amapantaro bifite amabara gatandukanye ni byiza cane kandi biragaragara ko biri kugurishwa.

Nkuko bigaragara hano hari: amagi ,karoti, pavuro, indimu ibi byose ni ibibiribwa byifashishwa mubuzima bwacu bwa buri munsi.

Nkuko bigaragara aya ni amata, hirya yaho hari Ji, abakunze kunywa aya mata ameze gutya n'iriya Ji ni abana, kuko araryoha cyane, mbese umwana wabigezeho ntabwo abivaho.

Inanasi, amacunga gwose gatanditse hasi hari n'umucuruzi ubicuruza, hirya yago hari imyenda zitandukanye harimo amasogisi n'ibindi.

Ndabona uruja n'uruza rwabantu bari kuja guhaha abandi bagurisha, gusa harubakiye hameze neza cane.

Uko bigaragara ni karoti inyanya, intoryi, seleri mbese ni ubwoko bw'imboga butandukanye kandi imboga zituma tugiraga ubuzima bwiza.